Icyapa cyo ku muhanda kiyobora abatwaye ibinyabiziga bitandukanye, harimo nka moto, imodoka ndetse n'amagare, kikaba kimenyesha abatwaye ibinyabiziga ko umuhanda wagezemo utemerewe kunyurwamo n'ibinyabiziga.